Umwana w'umukobwa wicaye mu ishuri wambaye impuzankano y'ubururu n'umweru, yicaye ku ntebe y'umuhondo na imeza y'umuhondo ari kurya biswi.

Integuza y, ubukangurambaga kuri sida mu rubyiruko iyi ni inama y'ubukangurambaga izabera kuri murandasi ikaba izaba ari kuwa gatanu ku itariki makumyabiri icyenda z'u kwakarindwi bibiri na makumyabiri na kabiri.

Icyumba gisa naho ari ik'inama cyangwa ibiro, buri ntebe imbere yaho hari imeza, hejuru bisa nkaho hariho ifoto ya nyirivuriro.

Ikigo nderabuzima cya Gishweru, imbere yacyo hari umuganga, hari n'undi musore ufite impapuro, hakaba n'undi mu mama bisa nk'aho nawe yaje kwivuza.

Umukobwa wambaye umukara n'umweru bisa nkaho yagiye ku nyanja mu biruhuko, amanitse amaboko bisa nkaho ari kwishimira uko ikirere kimeze.